Inama yahuje abayobozi batandukanye bo muri leta mu cyumba cy'inama kimanitsemo amatara meza atamena amaso agaragara neza ku manywa yitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye harimo abakuze ndetse n'urubyiruko.

Imbaga y'abanyeshuri bahuriye mu nzu mberabyombi bitabiriye kumva ibyo umuyobozi bahagaze imbere abagezaho, bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu ndetse yandikishijweho amagambo y'umweru mu izina ry'ikigo cyabo, iruhande rwabo hari indangururamajwi zibafasha kugira ngo buri wese abashe kugerwaho neza n'ibyo babwirwa.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro y'umweru iciyemo imirongo y'umutuku, yarengejeho ikote, yicaye atuje akurikirana inama ya NPC Rwanda, ku meza ye iruhande rwe hateretse icupa ry'ikirahure rizamo amazi, iruhande rwe n'inyuma ye hicaye abandi bantu bagiye batandukanye bari kumwe na we mu nama.

Mu cyumba gikorerwamo inama y'imirimo ya leta, kirabona neza bitewe n'amatara menshi akimurikira, umugabo wambaye ishati y'umutuku, arafata amashusho, abitabiriye inama bicaye ku meza manini azengurutse.

Imbaga y'abaturage bagiye batandukanye, ni bo bitabiriye inama ishinzwe kwita ku buryo bw'ibyo kurya muri Afurika, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Abagera kuri batanu ni bo bayoboye iyi nama.

Imbaga y'abaturage biganjemo urubyiruko, ahanini ni bo bitabiriye aya mahugurwa. Bicaye batuje, bakurikiranye umugabo uri kubagezaho ibibagenewe. Ni mu cyumba cy'inama cyagutse, gitakishijwe ibitambaro by'umweru ndetse bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu bagiye batandukanye barimo abayobozi ndetse n'abaje gukurikirana inama, kiraka neza cyane bitewe n'amatara menshi akimurikira aherereye mu byerekezo bigiye bitandukanye, bicaye iruhande rw'ameza azengurutse kugira ngo bose bakore inama barebana.

Akabendera kamamaza uburyo ushobora kubona imashini yo kubara imisoro utiriwe werekeza ku biro by'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ku muntu wese utarabona uburyo bwo kubara imisoro buri muntu wese ufite ubucuruzi ashobora kubona igisubizo cyo kubara imisoro bihwanye n'ubucuruzi bwe hamagara gatatu zeru zeru kane cyangwa se ubasure ku mbuga nkoranyambaga zose bari hano kugira ngo bagufashe.

Mu modoka itwara abagenzi benshi muburyo bwa rusange buri wese yicaye mu mwanya we, umubyeyi witwikiriye agatambaro mu mutwe wambaye amadarubindi arereka mugenzi we begeranye ibintu runaka muri telefone.

Ikirori cyo kumurika ku mugaragaro intangiriro z'icyumweru cyo kwishimira abishyura imisoro mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, gifite intego igira iti "imisoro yanyu ifite umumaro ukomeye ku iterambere ry'igihugu cyacu uko tugishaka, murakoze kwishyura imisoro".

Tengamara na TVA twongeye kubatengamaza ishimwe kuri TVA ryongeye gutangwa! Ni nyuma y'ubugenzuzi, isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe. Dukomeze gusaba IBM, niba utariyandikisha kanda akanyeri magana inani urwego ukurikize amabwiriza. Niba wariyandikishije zirikana gusa fagitire IBM no kwiyandikisha nimero yawe ya telefone igihe cyose ugize icyo gura. Ubu butumwa ni ubw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urubuga rwo kuri murandasi rusabirwaho ubusabe bw'ubufasha mu butegetsi bw'abaturage bigendanye n'ababishinzwe akamenyetso k'uruziga rw'umuhondo kagaragaza aho ukora kugira ngo wiyandikishe ku ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ibisabwa ni ukuba uri umunyarwanda uri hejuru y'imyaka cumi n'itandatu ndetse ufite numero ya telefone yoherezwaho amamenyesha.

Umunara muremure w'ikigo cy'umurongo w'itumanaho wa emutiyene uherereye aho icyo kigo gikorera, iruhande rw'umuhanda haranyuramo amapikipiki abiri atwaye abagenzi.

Ipaji y'irembo, serivisi nshya ku rubuga rw irembo, ikigo cy'imari umujyi wa Kigali, ubwoko, ibikorwa remezo n'ibidukikije, izina ry'igikorwa, gusaba kwemererwa gushyiraho icyapa kiyobora. Hamagara ku murongo utishyurwa icyenda, zeru, icyenda, icyenda, cyangwa se urebe kuri murandasi.

Umusoro ku nyungu z'ubukode ucibwa ku nyungu yabonywe n'umuntu ku giti cye cyangwa se undi muntu uwo ari we wese utarebwa n'a agaciro rusange k'umutungo utimukanwa yakodesheje mu Rwanda, ku bindi bisobanuro wababariza ku murongo utishyurwa gatatu zeru zeru kane; cyangwa se ugakurikirana imbuga nkoranyambaga ndetse na murandasi; bari hano kugira ngo bagufashe.

Icyapa giteye iruhande rw'inyubako, kigaragaza amerekezo y'aho batangira ubufasha ku byerekeranye n'ibitangwa n'irembo, ikigo cy'imisoro n'amahoro, ndetse no gufata amafoto ku buryo bwihutirwa.

Imodoka ebyiri ziparitse umwanya munini kuru ruhande rw'umuhanda rwabugenewe, iruhande y'icyapa cyamamaza umurongo wi'itumanaho, inyuma haranyura umubyeyi utwaye isakame mu ntoki, ku ruhande rw'iburyo rw'umuhanda haranyura umukozi ushinzwe gutwara abantu ku ipikipiki. Umukozi ushinzwe gutwara abantu ku ipikipiki ndetse n'umugenzi atwaye baraturuka mumuhanda w'igitaka binjira mumuhanda w'umukara.

Umukozi w'igitsina gore ukora mu mirimo ya leta yicaye mu biro ari gukoresha mudasobwa, yambaye umupira wo mu ibara ry'ubururu wanditseho ubumwe, kwihangana, yambaye amadarubindi y'amaso ku kuboko kw'ibumoso yambaye isaha.

Imfungwa zirava mu modoka zerekeza ku mirongo zambaye impuzankano y'agapfukamunwa k'ubururu, ishati n'ikabutura byo mu ibara ry'iroza bigaragaza imfungwa zakatiwe, zambaye amapingu iruhande rwazo hari abashinzwe kuzirinda.

Umugabo ukuze wogoshe umusatsi yawumazeho yambaye ishati y'umweru n'ikanzu yambarwa n'abanyamategeko isa n'umutuku imbere ifite ibara ry'umukara n'umweru inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Umugabo w'ishati y'umweru ni tisi niwe ufite umutaka atwikiriye umwe mu babyeyi bafite ibyo bari kugezaho ku bantu bitabiriye inama, imbere y'imbaga y'abaturage yicaye ituje bakurikiye ibiri kubagezwaho mu inama.

Imbaga y'abaturage yitabiriye amahugurwa y'ubutabera bwunga buzwi ku izina ry'inkiko gacaca, barakoma mu mashyi babyina imbyino z'umuco gakondo wa Kinyarwanda ndetse bishimye cyane, bambaye imipira y'umweru yamamaza izi nkiko gacaca.

Umubyeyi ukora mu mirimo ya leta, ufite imisatsi y'umukara miremire, yambaye amadarubindi, ingofero, ndetse n'ikanzu iri mu mabara y'umutuku n'umweru, yambarwa n'abashinzwe ubutabera, iruhande rw'ibendera ry'u Rwanda imbere y'urukuta rw'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'umutuku, ikote ry'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, yambaye amapingu ari kumwe n'abashinzwe umutekano babiri bamuherekeje, arava ku modoka y'ikigo gishinzwe iperereza mu Rwanda.

Inyubako nini yaguts ifite amagorofa atanu, ibamo abakozi bakorera ikigo gishinzwe umutekano wo mu muhanda. Bafite ibinyabiziga bibiri bihagaze hanze, bitwarwa n'abakozi b'iki kigo.

Abadepite bane imbere, abagore batatu n'umugabo umwe, inyuma abandi badepite babiri, umugore umwe n'umugabo umwe, bararahira bose bafashe ku idarapo, ukuboko kwabo kw'iburyo hejuru, ukuboko kwabo kw'ibumoso gufashe ku idarapo.

Ni mu cyumba gikorerwamo inama ihuza abashinzwe umutwe w'abadepite. Kiraka neza cyane bitewe n'amatara akimurikira. Buri wese ahugiye mu nyandiko ndetse no muri mudasobwa, bakurikirana neza ibiri kubagezwaho mu nama.

Umugabo ukora muri leta yicaye atanga ikiganiro, yogoshe umusatsi yawumazeho yambaye amadarubindi, yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, inyuma ye haragaragara urukuta rw'umweru.

Nyakubahwa Perezida wa repubulika Paul Kagame mu ikoti ry'umukara ndetse n'amadarubindi arinda izuba, arerekeza mu byicaro bye, mu nyubako nini yabugenewe kwakira abantu benshi baje kwirebera no kwihera amaso imikino n'imyidagaduro bitandukanye.

Umugore wambaye amadarubindi, umupira w'umweru, ishanete ndetse n'umwitero, ari imbere ya mikoro ararahira amanitse ukuboko kwe kw'iburyo, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe ku ibendera ry'u Rwanda.

Umukozi ushinzwe kwikorera imizigo yambaye umwambaro w'akazi mu ibara ry'ubururu arasunika akagare gatwarwaho imizigo yambukiranya umuhanda. Iruhande rw'inyubako ibikwamo ibicuruzwa haparitse umukozi utwara abantu ku ipikipiki.

Ibinyamitende by'amaguru atatu bitwikiriye inyuma byiganje mu muhanda w'umukara unyurwamo mu byerekezo byombi iruhande rw'ibinyabiziga biparitse hafi y'inyubako imanitseho ibyapa byamamaza ikigo gishinzwe gucuruza imirongo ya televiziyo ibyo byapa byanditseho amagambo agira ati ryoherwa na filime n'ibiganiro mpuzamahanga mu kinyarwanda.

Imodoka itwara abagenzi, imanitseho ibyapa byibutsa abanyeshuri bahawe inguzanyo yo kwiga ko bakwiye kwimenyekanisha kugira ngo batangire kwishyura inguzanyo bahawe, umuryango urafunguye, imodoka ntabantu bayicayemo, imodoka isize ibara ry'icyatsi.

Icyapa cy'umuhanda kigaragaza umuvuduko ntarengwa w'ibirometero makumyabiri ku isaha, gifite umuzenguruko w'uruziga rw'umutuku uzenguruka umubare makumyabiri wanditse mu ibara ry'umukara ku ishusho y'umweru.

Ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'ubugande umubyeyi ahagaze iruhande rw'icyapa giha ikaze abinjira mu Rwanda bose, ndetse n'icyapa kigaragaza amerekezo y'aho akarere ka Gicumbi gaherereye.

Agace kitaruye, kagaragara neza hakurya, gatuyemo abantu bifashije, kubatsemo inyubako zegeranye ndetse zubatse mu buryo bw'agacurama, zigiye zifite ubusitani ndetse n'ibiti biteye hafi yazo.

Akabyiniriro, n'akabari, kazwi ku izina morato, gafite inyubako nziza, zisize amarangi y'umukara, amarido mu ibara ry'icyatsi, ndetse kamanitseho igisahane kinini, cyakira amashusho k'ikigo gishinzwe gusakaza amashusho, cya kanari purise.

Icyapa kigaragaza umuhanda wa mirongo itanu n'icyenda Kigali Kicukiro giteye mu busitani buri hafi y'inyubako isize irangi ry'umweru ifite amabati y'umukara ndetse n'igikuta kizitira inyubako giteye irangi ry'umweru ifite umuryango w'umukara.

Mu mahuriro y'imihanda inyurwamo mu byerekezo bigiye bitandukanye n'ibinyabiziga, ikikijwe n'ubusitani n'ibiti, ifite ibimenyetso by'umuhanda biri kwaka mu ibara ry'icyatsi, ifite n'ibindi bimenyetso bishushanyije byambukiranya umuhanda, bigaragaza aho abanyamaguru banyura bambuka.

Umuhanda ufite ibice bine werekeza mu byerekezo byombi, nta binyabiziga birimo, ufite inkomane yigiye hejuru yo hagati, isanzwe ikoreshwa mu gutandukanya imihanda yerekeza impande zinyuranye, iteyemo ibiti bigaragaza isuku n'ubusugire bw'aho hantu.

Umuhanda ugabanyijemo ibisate bitandukanye binyurwamo mubyerekezo byombi, ushushanyijemo imirongo y'umweru yambukiranya umuhanda, iva ku ruhande rw'iburyo yerekeza ku ruhande rw'ibumoso, igaragaza aho abanyamaguru banyura bambukiranya umuhanda. Ipikipiki itwaye umugenzi iranyura ku ruhande rwo hakurya y'umuhanda.